Abanyeshuri barahagaze mu gisharagati hamwe n'abayobozi batandukanye benshi b'abagore ndetse n'abagabo, abarimu ndetse n'abandi b'abashyitsi babasuye.

Abana b'abanyeshuri bahagaze kuri robine, umwe ari kunywa amazi ya robine, abandi bahagaze aho nk'abamutegereje bamushungereye.

Abasore n'abakobwa bahagaze hamwe bifotoza, bafashe icyapa cyanditseho UNICEF. Abo basore batatu bambaye hejuru imyenda y'ubururu, umukobwa umwe yambaye umwenda w'icyatsi, hamwe n'undi mukobwa yambaye ubururu, n'abandi umusore umwe n'undi mukobwa bambaye imyenda yirabura.

Abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe bahagaze ahantu hamwe bari gukaraba intoki, inyuma yabo hari ibiti ndetse imbere yabo hari igipangu kinini kirekire cy'umweru.

Abantu bari hamwe mu mahugurwa bicaye hamwe, batatu bari imbere: abagabo babiri n'umudamu umwe, abo bagabo barahagaze umwe ari kuganiriza abo badamu afite igitabo ku kuboko n'ikaramu, yambaye ikoti n'ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru, abandi badamu bafunze ibitambaro ku mutwe.

Abanyeshuri ku ishuri bicaye, bicaye ku ntebe z'ishuri, bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa, hirya hari abambaye imyenda ya kaki, bicaye bari kurya, buri wese afite isahani ye, arimo kurya ibiryo.

Abana babiri bari kumwe uhagaze w'umutoya afashe mu ntoki ibirika y'ubururu na mugenzi we arasutamye, afite isabune mu ntoki ari gukarabira mu ndobo.

Abagabo n'abagore bicaye muri sale ku ntebe z'imbaho begeranye, batumbiriye imbere bari nko mu mahugurwa runaka, bafite ibitabo ku bibero ndetse aba bagabo bambaye amakote bamwe n'abadamu bambaye imyenda y'ibitenge.

Abaganga b'abagore n'abagabo bahagaze hamwe bifotoza ,bambaye imyenda y'akazi n'amabaji mu ijosi, hagati hari umugabo w'umuzungu wambaye ikoti y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati.

Abagabo bahagaze hejuru kuri podiyumu n'umugore umwe w'umuzungukazi, bambaye amakoti, uwo muzungukazi yambaye umwenda uriho n'igishora cy'ubururu, babiri bari imbere yabo bari gusuhuzanya.

Abagabo batatu umwe aricaye babiri barahagaze umwe ari kubigisha, kuruhande rwabo hari abana batoya bari kubarebera, inyuma y'abo bana hari amazu arimo imiryango n'amadirishya.

Umwana w'umuhungu ufite isabune mu ntoki, bari kumusukira amazi ngo akarabe, ku ruhande hari ukuboko, ukuboko k'umuntu gufashe ijaga isi icyatsi, ni yo ari gukoresha akarabya umwana intoki.

Umukobwa arasutamye wirabura ari kuvoma amazi mu kajerekani. Iyo jerekani yayiteretse hagati mu mabase abiri agerekeranyije, inyuma ye hari imyenda yanitse ndetse n'imbere ye hari inzu.

Umuganga mu isuzumiro, ari kuvura akana gato k'agahungu karwaye, ufashwe na nyina, bicaye ku ntebe, nyina aragakikiye, ako kana nta mwenda kambaye hejuru, nyina yambaye igitambaro ku mutwe n'umwenda w'icyatsi.

Abaganga b'ikigo nderabuzima cya Mayange, bahagaze imbere y'umugabo w'uruhu rwera, bari kumubyinira bamukomera mu mashyi, ndetse abo baganga bambaye bose imyenda y'akazi.

ibiganza by'umuntu uri gukaraba intoki kuri robine, uwo muntu bari kugaragaza, ntago ari kugaragaza mu maso he cyangwa umubiri we, n' intoki gusa ari gukarabira ahantu robine yiteretse hejuru, hejuru, hasi ntihagaragara ariko kuruhande ni sima, igikuta gisize irangi ry'ubururu.

Abagabo n'abagore barasutamye, bari kugenda banywesha abana, icyo kunywa bicaye, abo bana bicaye ku mukeka hari n'abandi babahagaze hejuru, ndetse hirya hari abandi babyeyi bakikiye abana bari kumwe n'abana bari hirya yabo.

Umudamu uhagaze yambaye imyenda y'ubururu hejuru no hasi aha ari gutanga ibipapuro n'ibinyamakuru ku baturage ku muhanda, muri abo baturage harimo abagore n'abagabo, hirya hari amamodoka kuri kaburimbo.

Umwana w'umuhungu yunamye kuri robine, ari kunywa amazi, yambaye hasi ikabutura y'umutuku, hejuru ni iya kaki, irimo utuntu twutubara tw'icyatsi, hirya hari ibihuru ndetse n'ibiti hirya, hari n'inzu iri imbere ye gato.

Abagore n'abagabo bahagaze bari kwifotoza, bambaye imyenda itandukanye hari abambaye nk'abaganga, hari n'abambaye imyenda itandukanye, harimo n'abagabo bambaye amakoti ndetse n'undi wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, hari n'abambaye hejuru umuhondo, inyuma yabo hari ibyapa byinshi bitandukanye.

Umwana w'umuhungu yunamye kuri robine ari kwiterara amazi aseka, yambaye imyenda ikabutura y'icyatsi n'umupira w'ubururu uriho n'amabara y'umukara.

Abantu batatu ku iriba babiri bari kuvomera amajerekani yabo, asa umuhondo. Umwe abahagaze hejuru, uhagaze hejuru yambaye akajire k'umutuku n'akenda k'umweru indani n'ipantaro y'umukara.

Abantu babiri muri salle, umwe w'umugore n'undi mugabo, umugore aricaye, umugabo arahagaze, bakikijwe n'ibikoresho byinshi bitandukanye, inyuma hari intebe eshatu, imbere hari amamashini atandukanye.

Abana b'abanyeshuri ba bahungu n'uw'umukobwa bahagaze ku ivomero, bari kuvomera utudobo tw'umuhondo, umwe afite akajerekani gatoya k'umweru, bari gukaraba intoki banavomeramo.

Ikinyabiziga kinini bita kamyo kirahagaze, gifite amapine asa umukara ndetse hejuru irasa umweru, iriho amagambo yanditseho asa ubururu.

Umukecuru yicaye hasi akikijwe n'abana benshi, uwo mukecuru yambaye hasi umwenda w'ubururu, hejuru umweda wa shokora wa mabara y'ubururu n'imituku, afite imvi.

Umusore w'igikara ufunze amaso ari guseka, afite utwanwa dutoya, yambaye n'umupira w'umuhondo, afite imisatsi mikeya.

Umugore yicaye munsi y'igiti, hariho isheni iziritse ku kuguru kwe, uwo mugore yambaye umwenda w'umuhondo hejuru n'igitenge cy'ubururu, irimo amabara y'umuhondo ndetse hasi yambaye kamambiri z'umukara hejuru ari umutuku.

Abadamu batatu bicaye n'umugabo umwe, bari mu mahugurwa, umwe afite igitabo mu ntoki n'ikaramu umwe ari kuvuga, ari kureba imbere ndetse afite agapfukamunwa ku kuboko.

Umugore wirabura wafunze igitambaro ku mutwe, n'ingata n'igitebo, kiriho ibyatsi byinshi; yambaye umupira w'imbeho w'igikara, ndetse indani yambariyemo agapira karimo, amabara y'akanogo n'umukara.

Icyapa cyanditseho Solid Minds Counselling Clinic mu rurimi rw'icyongereza, yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi.

Mu nzu hicaye abantu babiri, umudamu n'umukobwa w'inkumi. Baraganira, umudamu atumbiriye umukobwa, umukobwa areba hasi. Hagati hari agapulasitike k'umweru kariho utuntu tw'udushushanyo. Ndetse n'uwo mukobwa afashe ku biganza bye udushushanyo tubiri.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, yicaye ku ishuri ari guseka, afashe ku kuboko kwe aka biscuit arimo kurya.

Umukecuru yicariye agasongabugari ari kugaragura mu isafuriya. Iyo safuriya iteretse hejuru y'inkwi. Atekeye ku nkwi. Impande ye hari inkoko ndetse n'inzu nini yubakishijwe amatafari n'imiryango y'icyatsi.

Umwana w'umukobwa aryamye kwa muganga, bari kumuvura amenyo, ibiganza by'abaganga bamba yega mu ntoki ndetse bafite ibyuma bari koza mu kanwa kugira ngo barebe amenyo y'umwana uko ameze.

Umukobwa wireba mu ndorerwamo, afasha uburoso ari kwiyunyuguza amenyo, yambaye akenda k'umweru, ndetse yasokoje imisatsi ye ayirekuye, ni umukobwa w'imibiri yombi.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umweru, ufite ubwanwa aramwenyuye, afite umugozi yashize hagati y'amenyo, ari gukuramo imyanda yihishe hagati y'amenyo.

Umusore wirabura afashe mu ntoki ze umugozi w'umweru ari kuyinyuza hagati mu menyo akuramo utwanda.

Umukobwa afashe mu ntoki akuma k'ubururu, ari kunyuza hagati y'amenyo ye. Yambaye n'ingofero y'umweru ari guseka.

Umudamu arahagaze aratwereka uko boza amenyo, ku mpande ye hari abicaye n'abahagaze bambaye bamwe ibisa abandi bambaye imyeru n'undi wambaye umutuku.

Umukobwa w'igikara, ufite imisatsi irereta inyuma y'amatwi, ari guseka, ari kutwereka amenyo n'intoki ze ebyiri, iminwa ye irasize, isize utuvuta tw'umutuku.

Abantu batanu bahagaze imbere mu ishuri, inyuma hari urubaho rw'ishuri rwanditseho, muri abo bantu hari abagore babiri n'abagabo babiri n'umwana umwe, umwe uri imbere ni umuganga ari kwigisha ako kana uko batunganya amenyo.

Umugore wirabura uhagaze, yambaye amaherena, nta musatsi afite, ari kureba terefone ye iri mu ntoki ndetse afashe ukundi kuboko ikirahure cy'amazi, ahagaze mu gikoni.

Abadamu babiri baricaranye bari kuganira baseka, umwe yifashe ku itama undi ari gukata imboga ku gapurato k'urubaho, uwicaye ku ruhande imbere ye hari isahani y'idongo nini.

Abantu babiri bafatanye, ni umusaza bari kumufasha gusindagira bamutambutsa gahoro gahoro, uwo umusindagiza yambaye agapfukamunwa ku munwa.

Abagabo babiri b'abasaza bari gutembera bafatanye ku rutugu banarebana, umwe yambaye ingofero, undi ntayo yambaye yambaye indorerwamo mu maso, inyuma yabo hari ibiti byinshi, ku mpande hari ibyatsi byinshi ndetse aho bari gutambuka ni umuhanda w'amabuye.

Abakecuru bicaye hasi, babiri bicaye ku ntebe, intebe z'imyeru, abo bakecuru bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, inyuma yabo hari insina nyinshi.

Abantu benshi bicaye mu ihema, harimo abasore, abagore, abasaza n'abakecuru. Bicaye ku ntebe z'icyumweru, hari amacupa ku meza zabo ndetse hari umudamu umwe uhagaze arimo kugenda aseriva bamwe.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku ntebe, hafi y'ameza, hari ibyo umusaza ari kwereka umukecuru. Bambaye imyenda itandukanye amabara, umugabo yambaye ishati y'ubururu, n'umukecuru yambaye umupira w'umutuku.

Umusaza uhagaze hagati mu bihuru ari mu myitozo ngororamubiri ari gukoresha utwuma afashe mu ntoki mu biganza bye dusa umutuku yambaye umupira w'ubururu ndetse hasi yambaye ipantaro yumukara.

Umugangakazi wicaye hamwe n'umugabo w'umusaza, amwambitse igipimo ku kuboko cy'umukara kibifasha kumenya umuvuduko w'amaraso, umuvuduko w'umutima.

Umugangakazi ariho araganiriza umugabo w'umusaza wicaye ku igare, yicaye ku kagare afite ubumuga; bari kurebana, umugangakazi ari guseka yambaye imyenda y'akazi. Inyuma hari intebe, ndetse hari n'amarido, ari ku mpande.

Umugangakazi yambaye imyenda y'akazi ndetse n'igipimo ku ijosi, ari gusobanurira undi mugore wicaye ku ntebe hafi y'ameza, amusobanurira amwereka ikinini agiye kumuha, yateze ibiganza ari kumuhereza ngo anywe, afite n'ikirahure cy'amazi mu kundi kuboko, ndetse ku meza hateretse ibindi bikarito by'imiti.

Umugore n'umugabo barahagaze ku muhanda, bafashe ibyapa by'amabara atandukanye, amabara y'ubururu n'icyatsi, inyuma yabo hari inzu nini ndende iri mu gipangu, umuryango w'igipangu urasa umukara.

Icyapa cyanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye, amabara ni ubururu, umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Abasore n'inkumi, buzuye ku muhanda, bari kugendagenda bafashe, ab'imbere bafashe icyapa cyanditseho: urubyiruko ni mwe hazaza heza h'ejo h'u Rwanda. Riri guhugura abantu kwirinda virusi itera SIDA.

Icyapa cyanditseho rbc iriho amabara atatu atandukanye ndetse kuhande yanditseho amagambo arambuye mu mabara y'umukara; ayandi mabara ni ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Icyapa kiriho ifoto y'umwana w'uruhinja, ureba hejuru, ufunguye umunwa. Hamwanditseho ibi, amagambo menshi atandukanye, yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi bicaye muri sale higanjemo igitsina gore. Baricaye bari kureba imbere batumbiriye ibintu runaka. Abicaye imbere hariho ameza ariho ibitambaro y'iroza indi ya kaki.

Abakobwa b'inkumi barahagaze muri sare bari kwifotoza. Bose bafite utuntu tw'udukadire tune bafashe mu ntoki turiho ifoto y'umudamu ibanditseho.

Mu gipangu kwa muganga hariho amazu, hariho abatara bashinga ku mapoto amurika hanze, hariho n'ibyatsi zipanze neza ku murongo ndetse hari n'aho abantu banyura.

Amazu agerekeranye n'andi ari ku ruhande ari mu gipangu kimwe cyo kwa muganga. Hose hakorerwa ubuvuzi. Muri icyo gipangu hari inzira amamodoka anyuramo ya kaburimbo ndetse n'abagendesha amaguru. Ndetse hariho ibyatsi ku mpande.

Abantu bari mu ishuri ry'abana abagore n'abagabo, umwe yambaye umwenda w'abaganga ni umuganga ari kwigisha umwana w'umuhungu uko boza amenyo, ari imbere afite igishushanyo cy'amenyo ari kumwerekera amwigisha.

Amazu ageretseho rimwe ndende manini maremare, ari mu gipangu, ayo mazu bakoreramo ubuvuzi kwa muganga. Ayo mazu ku ruhande hubagitse bashyizeho kaburimbo aho abantu n'amamodoka anyura ndetse hari ibyatsi byinshi impande n'impande.

Abantu benshi bari kwifotoza imbere y'inzu y'ababyeyi materinete, harimo abagore, abagabo ndetse n'ababikira, bamwe barahagaze abandi barasutamye, bambaye imyenda itandukanye y'amabara atandukanye.

Umugangakazi yicaranye n'umugabo w'umusaza, bicaye ku ntebe, bamwambitse igipimo ku kuboko, bagashaka kumupima umuvuduko. Uwo musaza yambaye ishati y'umutuku n'indorerwamo ku maso n'ipantaro y'umukara, naho umuganga we yambaye imyenda y'akazi.

Abantu bari mu ruganda rw'imiti, bari gukora imiti iriho n'amacupa agaragara ndetse bambaye imyenda y'imyeru n'udupfukamunwa dusa ubururu.

Amazu menshi afatanye akurikirana ari mu gipangu, yo kwa muganga hanze yaho hari inzira, inzira ya kaburimbo n'utwatsi ku mpande, n'igiti kimwe kiri hirya.

Abantu bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, batatu barahagaze: abagabo babiri n'umugore umwe ndetse inyuma y'uwo mugore hari umugabo wicaye ku ntebe y'imbaho no hirya hari abakecuru bari kumanuka basa nk'aho bavuye nabo kwivuza.

Inzu nini ndende igeretsetatu iri mu gipangu, imbere hari porutaye y'ayo cyangwa urugi rwayo runini rw'amarembo irafunguye hari imodoka iri gusohokamo ndetse hari umuntu umwe wicaye inyuma y'igipangu undi ari gufungurira imodoka abanzi barimo imbere.

Ku rubavu rw'inzu kwa muganga, hariho idirisha hariho n'aho abantu banyura, akayira k'abantu hariho n'ibyatsi, by'amabara y'amoko atandukanye, ku ruhande ndetse no hirya hariho n'icyapa.

Idirisha ryo kwa muganga, rifite ibyuma biri inyuma yayo, iyo dirisha irasa umukara; ifite ho utubara tw'umukara. Imbere yaho hari ayandi mazu, agiye akurikirana, yo kwa muganga. Yubakishijwe amatafari, n'amabati y'umutuku.

Abantu batanu barahagaze bari kwifotoza abadamu bane n'umugabo umwe ubari hagati muremure, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari iriho ibyapa hejuru bibiri, imwe igaragara n'indi itagaragara neza.

Umugabo w'umuganga arahagaze, yambaye itaburiya y'akazi n'igikoresho ku ijosi bakoresha, ahagaze mu baturage asa nk'ubahugura afite agatabo mu ntoki, ku mpande ye hari umubyeyi uhagaze. No hirya hari abana batoya bahari.

Iyi nzu aho bavurira abana handitswe pediyatiri senta bavura abana batoya, inzu irakinze, imiryango irakinze hariho ibipapuro ku ibanditse ku nzugi z'imyeru n'amatara ku ruhande y'urugi.

Kwa muganga mu imbere harafunze, imiryango yose irakinze ndetse n'amadirisha, mu imbere hariho ama etajeri aho babika ibintu ariko nta bintu biriyo, hariho amatara yaka hejuru ndetse hasi hari amakaro.

Inzu igeretseho rimwe yanditseho ikigo nderabuzima cya Nyarugenge. Ibyo bitaro hariho abantu benshi hasi no hejuru b'abagore n'abagabo n'abana.

Abantu bicaye ku ntebe kwa muganga, barategereje, hariho abagore babiri, n'abagabo babiri, umwe yicaye imbere n'undi mugabo umwe yicaye inyuma. Barategereje, imiryango yo kwa muganga irafunguye ndetse hari n'izindi ntebe ku ruhande zitariho abantu.

Mwi imbere kwa muganga hari aho hari ibikoresho bitandukanye bakoresha mu barwayi bafite ikibazo ibibazo by'ubumuga hari ibikoresho bitandukanye ibikoresho baryamaho ibindi bakoresha bahagaze ibindi bakoresha bicaye.

Abaganga bane bari hamwe bambaye imyenda y'imyeru y'akazi, imbere yabo hari ibikoresho byo kwa muganga, harimo abagore babiri n'umwe w'umugabo, n'undi utagaragara.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga mu bitaro bita sikaneri gishinzwe kureba ingingo zose z'umuntu uko ateye n'ikibazo yaba afite aho kihishe hose.

Abantu batatu bari kugenda ku muhanda, mu muhanda w'ikaburimbo umwe ari imbere ni umugabo, babiri ni umuntu ufashe umwana ku kuboko, hagati hari ibyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, imashini imwe ishinzwe kureba mu nda, mu nda cyane y'ababyeyi n'igitanda kiri aho ngaho.

Abagore babiri barahagaze bari kwa muganga, umwe ateruye agahinja mu ntoki kandi bambaye imyenda itandukanye. Uwo uteruye uruhinja yambaye hejuru umwenda w'umweru, agahinja kari mu kigoma gasa iroza ndetse uri ku ruhande yambaye umwenda w'ubururu, hejuru hari akabara k'umweru, yambaye n'indorerwamo ku maso.

Inzu ndende, aho bavurira amaso handitse hejuru ku cyapa "Eye foundation." Iriho imiryango ibiri aho binjirira bajya kwa muganga. Kuri icyo cyapa hariho amabara y'ubururu.

Umukobwa yicaye ku byatsi arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye hejuru umwenda y'ikigina, harimo akantu k'umweru, hasi yambaye ikabutura y'ubururu.

Umugabo yicaye ku byatsi ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umukara n'inkweto z'umukara, hirya hari ibiti biri inyuma yiwe.

Mu ivarizi isa icyatsi harimo amoko menshi atandukanye y'imiti ndetse n'amavuta, ndetse imbere y'ivarizi na ho hari ibindi bihari by'imiti n'amasabune.

Icyapa kitwereka umukobwa urambaraye hasi, ari mu myitozo ngororamubiri, ku ruhande bashushanyijeho imbuto zitandukanye, amaronji, ibinyomoro, umuneke n'ibindi.

Umuganga uhagaze hamwe n'umuntu arimo gufasha mu myitozo ngororamubiri, ufite ikibazo cy'ubumugantu uwo muntu yambaye hejuru imyenda y'umweru, hasi imyenda y'umukara ndetse uwo muganga yambaye imyenda y'akazi.

Umusore wirabura uri mu myitozo ngororamubiri, arapfukamye, yapfukamishije ivi rimwe, irindi vi arifasheho n'amaboko ye, asa nk'ubabara cyangwa ahakanda. Yambaye imyenda y'imikara hejuru n'agakabutura hasi k'umukara n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Abantu babiri, umwe araryamye n'undi uhagaze, uhagaze ari gukandira uryamye, ari kumukandisha ku ivi igitambaro kandi munsi y'ivi hari uwundi mwenda w'umweru.

Umukobwa urambaraye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara hose. Azamuye akaguru kamwe aragahinnye, ari gukora imyitozo.

Umugabo ari mu myitozo ngororamubiri, arimo arakaraga amaboko ye atwereka imbaraga afite mu maboko. Yambaye umwenda hejuru y'umweru ndetse inyuma ye hari urubaho rwandikishijwe, amagambo atagaragara neza.

Umugabo wirabura arahagaze, afite agacupa k'amazi ku kuboko kw'iburyo arimo kunywa amazi, afite udusatsi dukeya n'ubwanwa, ndetse yambaye akantu mu ijosi.

Umukobwa uhagaze ari kunywa amazi, yambaye ama ekuteri, afite imisatsi miremire, igwa inyuma y'umukara, yambaye ikintu ku kuboko cy'icyuma ndetse yambaye umwenda usa umutuku.

Umugabo aricaye ku gitanda, yambaye umwenda w'umweru hejuru, hasi yambaye ipantaro y'ubururu, afite akantu k'agapfuko gasa ubururu ashyize ku kuboko, yifashe ku kuboko, inyuma ye hari igitanda n'umusego uriho igitambaro cy'umweru, ndetse ku ruhande hari idirishya.

Umugangakazi aricaye, imbere he hari ameza iriho imashini y'ikoranabuhanga yitwa Laptop ndetse n'ibitabo bibiri, yambaye agapfukamunwa n'igikoresho ku ijosi bakoresha bifashisha kumva uko umuhumeko umeze.

Umugabo ari mu myitozo ngororamubiri aricaye hasi hasa na kaburimbo. Inyuma ye hari igihuru kinini ndetse hari n'akapoto kameze nk'akapa kari inyuma ye. Yambaye umwenda w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Icyapa gishushanyijeho umuntu usa nk'uwirukanka hariho n'inshinge zo kwa muganga n'umuti. Hejuru hari tibe ndetse n'amagambo yandikishijwe ururimi rw'icyongereza.

Umukobwa urangije imyitozo ngororamubiri ahagaze ari kunywa amazi mu gacupa gafite umufuniko w'ubururu, afite na esume y'umweru ku ijosi, yambaye agasengeri gafite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, arirabura afite imisatsi mikeya kandi ahagaze ku izuba.

Umuntu aryamishijwe ku gatanda sner ari kwa muganga ari kwinjiramo muri icyo gikoresho gikoreshwa kwa muganga kitwa scanner.

Umugabo wirabura, arahagaze yambaye akantu ku matwi kariho n'umugozi muremure w'umweru. Yafashe ku kuboko k'ubumoso ku icupa ry'amazi arimo kuyanywa. Ndetse yambaye agapira gatoya kagiye kuba umukara.

Ibikoresho bitatu bitandukanye, igikoresho abaganga bifashisha mu kumva uko umutima utera, ingingo zimeze n'ubuhumekero, uyu mupira abakinnyi bakoresha batera umupira n'inkweto bambara, iyo bari gukora siporo cyangwa bari gutera umupira.

Umukobwa wirabura ari mu myitozo ngororamubiri, yicaye hasi yahinnye amaguru, afashe ku kuguru kumwe, yambaye hejuru akenda gatoya k'umukara, hasi yambaye ipantaro nayo y'umukara. Yambaye inkweto z'imyeru ndetse afite n'akantu ku kuboko.

Uducupa dutatu tw'umuti. Umuti witwa stopine, ni umuti uvura kubabara ku bantu barwara imitsi iyo bishizeho ukawupurizaho iyo mitsi ububabare burashira, buragabanyuka. Ndetse n'uducupa tw'umweru hejuru munsi n'utubara dutandukanye.

Inzu irimo abantu bari gukoresha abantu imyitozo ngororamubiribiri babaryamishije ku bitanda, abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara hasi ntibagaragara.

Abagabo babiri, bari mu myitozo ngororamubiri, umwe arasutamye asa nk'uteruye ikintu, nubwo hatagaragara, undi ni umuzungu arahagaze, yambaye umwenda w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ariko mu maso ntihagaragara.

Ukuguru k'ukuntu wirabura wambaye ikabutura y'umukara uku kuguru kufite ikibazo ku itako itako ryatukuye rirababaye ari kwa muganga bagiye kumukorera terapi.

Ifoto igaragaza ikirenge cy'umuntu, kuri icyo kirenge bashyizeho amabara agaragaza ikibazo umuntu yaba afite n'uburyo yaba agifite, kandi ubwo buryo bukoreshwa n'abaganga ni bo babifotora kugira ngo babigaragaze.

Abantu benshi bari kugenda basatira imodoka, hariho amamodoka abiri imbere, bari kunyura hagati y'ahantu hari umurima munini cyane imbere n'inyuma, ndetse ku ruhande hari igiti kinini kirekire.

Icupa ry'ubuki, ni agacupa karekare gafite umufuniko w'umweru, mo imbere harimo ubuki, ni agacupa imbere hariho amabara y'umweru n'umutuku, handitseho Forever Bee Honey.

Umuti w'ubuvuzi gakondo wakoreshejwe, bawukora n'amaronji ndetse n'indimu .Uri mu gacupa gato k'umweru ,ipfundikijwe n'agafuniko k'umweru ,hagati hari amagambo yanditsweho handitsweho forever royal jelly.

Icupa rifite umufuniko w'icyatsi, ririmo mo imbere umuti w'ibyatsi, ibyo byatsi byitwa umuravumba, uwo muti ni umuti w'ikinyarwanda, umuti gakondo bavurisha, ni umuti mwiza ukiza giripe, ibicurane ndetse no mu mihogo, amanjine.

Ibibabi bisa icyatsi. Ibibabi byitwa umuravumba. Ni umuti usanzwe uvura ibicurane, inkorora cyangwa se ibyo bita ama anjine, kubabara mu mihogo. Ni umuti mwiza, kandi ni umuti ukomeye ukarishye.

Agacupa k'umweru gatoya gafite n'agafuniko k'umweru, hagati hariho amagambo yanditse, yandikishije umukara ndetsei n'amabara y'imituku hejuru, amagambo yanditseho ni foreve bee pollen.

Ibiganza bifashe urupapuro hariho udufu, utwo dufu ni imiti bakoresha mu buvuzi gakondo, ni ibiganza by'umuntu wirabura uhagaze ndetse yambaye ibirenge.

Amacupa menshi atondekanye afite n'imifuniko y'amabara atandukanye imituku n'imyeru, muri ayo macupa harimo imiti itandukanye y'ibyatsi avura bitandukanye y'amoko menshi.

Umugabo w'umuganga wambaye imyenda y'imyeru y'akazi, afashe mu kiganza cye udukoresho akoresha, hejuru ye hari uducupa tubiri tw'imiti, munsi ye hari intebe eshatu z'imikara, ndetse hari n'akabati kari inyuma ye ndende igiye bikwamo ibintu bitandukanye byabo.

Agati kamwe, kariho utubabi dutanu, ndetse n'agahohwa kamwe k'umweru keza, inyuma hari igihuru, kiriho ibyatsi byinshi. Ndetse hatagaragara neza. Ako gahohwa, kuruhande hari utundi tugiye kumera.

Umudamu ari gucuruza imiti gakondo iri mu macupa atandukanye menshi hejuru y'ameza kandi no hirya hari abandi bari gucuruza nka we. Hari abantu, hari umugabo umuhagaze imbere bari kuvugana ndetse n'undi uri inyuma n'abandi ku mpande.

Imiti y'ibyatsi gakondo ikoreshwa mu buryo butandukanye, mu mihango itandukanye, ibinini, ibyatsi ndetse n'amacupa ane ari ku mpande.

Agacupa k'umweru gafite umupfunikizo w'umweru, yandikishijweho hagati inyuguti ku mabara y'ubururu n'umweru, ndetse n'agahondo, handitseho foreva aritike siya, ni umuti.

Uducupa dutoya tw'amavuta basigisha ku munwa, utwo tuvuta batwita aloe lips. Tumwe turahagaze utundi turaryamye, kandi kamwe karafunguye karagaragaza utwo tuvuta basiga. Ku ruhande hari agakarito yandi yanditseho aloe lips.

Amavuta yitwa Aloe ni amavuta meza kandi arimo umuti, ayo mavuta yandishije utu utubara tw'ubururu ariko icupa ni umweru. Kuruhande bari kwerekana imbuto zikorerwa muri aya mavuta.

Amaboko y'umudamu utagaragaza isura, afite imbere ye agasahani k'idongo gatoya n'akandi akorogeshamo. Afite amashashi menshi atandukanye arimo imiti itandukanye y'ubuvuzi gakondo. Biragaragara ko arimo gutegura imiti y'ubuvuzi gakondo.

Agacupa ka alowe cyangwa foreva gasa umweru n'umufuniko w'umweru ariko harimo n'amabara y'icyatsi no mu tugambo turiho n'icyatsi.

Agacupa karekare k'umweru, gafite umufuniko w'ubururu, kanditseho serum, hashushanyijeho n'akantu k'akanyoni k'umukara. Ni umuti, ni agatibe, irimo utuvuta.

Icupa ririho umufuniko w'icyatsi, mu imbere harimo umuti baseye uturuka ku byatsi bita umuravumba. Uwo muti ni mwiza uravura ndetse urakaze cyane.

Agacupa k'umweru gafite n'agafuniko k'umweru, ariko hasi hariho amagambo yandikishije umukara, amabara y'umukara, ndetse agoteshejwe n'amabara y'umukara, ayo magambo yanditse vitolize.